Ndabona ko hano hari baii. Bali imeze neza cyane aho umuntu afatira icyo kunywa nka pirimusi. Ndetse kandi ni uko basabana.

Aha ni arimantasiyo bacuruza inzoga, ibiribwa ndetse n'ibintu bigezweho byo kunywa, urabona ko hari superimarishe, arimantasiyo ndetse umuntu ajya yaka icyo kunywa agashira inyota.

Iyi moteri abantu hano twarimo turasangira, abantu barimo barasangira baganira, ji ndetse na banyega bagenda baganira gake gake.

Amasafuriya ndetse n'amabase bidufasha, ndetse n'ibikombe, ibikombe bishobora kuba byadufasha mu bijyanye no kuywa igikoma.

Icyayi, imigati ndetse abantu banza bagiye kunywa, icyo kunywa ndetse n'amazi.

Hano ni ku Rugwiro Geste Hawuze, aho tuba dufite ibijyanye n'amacumbi ndetse n'ibyo kunywa, nanone tugira serivisi nziza ijyanye n'ibyo kurya, nta kabuza ukeneye serivisi watugana, murakoze cyane.

Aha naho tujya kuri tuwalete tugiye nko kunnya cyangwa se gusohora imyanda iri mu mubiri wacu. Ibi rero bikaba byadufasha ku bijyanye no kuruhuka.

Iyi-etage yubatse kabiri. Ubona iri ahantu hameze neza ndetse kandi none urabona ko imeze neza, nta kibazo igereretse kabiri. Iri muri bimwe byiza u Rwanda rufite.

Isoko rya Kinigi aho abaturage barimo bahaha ndetse abandi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ibyo kurya ndetse n'imyambaro.

Aha ni bare aho umuntu ajya akaba yafata akantu kamwe. Ndetse urabona ko hazitije ibiti byinshi.

Hano ni aho umuntu ashobora kuba yajya akaruhukira abona ko hashobora kuba hari ama rogi hato.

Uyu ni umuntu ukora ibijyanye no gufotora. Ndetse nanone agakora ibijyanye no kwandikira abantu amabaruwa.

Iduka rero uba ubona ko dufite imyenda myiza aho tugera kupure, imyenda y'impu, imyenda y'abakobwa ndetse n'iy'abahungu , tukagira imyenda ya siporo. Ibi rero wabisanga mu maduka cyangwa se mu bucuruzi bwa goyiko.

Ubu ni ubucuruzi, aho abantu bacuruza. Uyu muryango bacuruzamo ibiribwa bitandukanye. Uyu mubona ni umucuruzi uri gucuruza ibintu.

Iri ni iduka rikora ibijyanye n'amaji, ndetse rigakora kandi n'ibindi bijyanye n'ibyayi ndetse n'ibindi bi....

Amaduka aherereye kuri IPRC Musanze, aho abantu baba bari gucuruza amagaze, ndetse n'utundi dukoresho duke duke.

Iri ni isoko harimo ibiribwa nk'imineke, imineke kandi uzi ko harimo akamaro gafasha umuntu kuzanzamuka kugira ingufu n'imbaraga, Ibi rero bikaba byazana amafaranga.

Isoko rya Musanze riherereye mu Gahunga ,aho abantu bari guhaha ibicuruzwa bitandukanye harimo n' ibitoki.